Akana kicaye ,imbere y'aho hari udushusho tw'udusimba ,karimo kudufata gakina natwo, aha hantu aka kana kari handitse amy and benton, ni byiza rero ko abana bagira utuntu twinshi tubarangaza, kugira ngo abashe kwishima ,ndetse n'amasomo y'abo bajye bayakurikirana neza.

Ikigo kigamo abanyeshuri inshuke hari abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru, amajipo y'umukara n'amapantaro y'umukara barimo gukina, iri shuri rifite imiryango ifunguye ndetse hari ikigega cy'umukara.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ni ngombwa ko ahantu bigira haba udushushanyo tugiye dutandukanye tubafasha mu masomo yabo, kuko ibyo biga babyiga babyumva ndetse bakanabyiga bishimiye. Ahangaha rero hari udupupe twinshi bagenda bifasha mu masomo yabo horagafite amabara y'umuhondo ndetse n'gafite amabara y'icyatsi.

Ni byiza ko amashuri y'abana b'incuke bashyiramo utuntu tugiye dutandukanye tubafasha mu masomo yabo. Mu ishuri ry'incuke harimo intebe z'umutuku, iz'ubururu ndetse hagati y'izi ntebe hagiye hateretsemo ameza.

lcyuyuma kigiramo abana biga mu amashuri y'inshuke kiba gitandukanye n'ibindi byumba, aho usanga ho hagiye harimo udushanyo twinshi tugiye dutandukanye. Aha ngaha rero hari igishushanyo kiriho udusimba twinshi, kugira ngo abana bajye babasha neza kumenya udusimba, kuri iki gishushanyo kandi handitseho amy and benton, ahandi handitseho party.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, usanga bafite utuntu tw'udukinisho tugenda dutandukanye, bifashisha mu masomo yabo. Aho usanga ahantu bigira haba hari udushushanyo n'udufoto tugiye dutandukanye, aha ngaha rero hari umunyeshuri wambaye umupira w'ingofero, ikabutura y'ubururu, inkweto z'umukara, n'amasogisi y'umutuku, impande ye hari inzu yubatse yanditseho let babies play, it's their reght.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke bafite udukinisho tugiye dutandukanye mu gihe umwanya wo kuruhuka bajyayo bakaruhura mu mutwe ndetse bakabasha no kwishima kuko ariyo myakaka baba bafite. Ahangaha rero hari ibikinisho abana bakiniramo bisize amabara y'umutuku n'ay'umweru.

Mu Rwanda dukomeje guteza imbere ibikoresho byacu aho usanga dusigaye twikorera ibintu ntitubigure hanze, cyane cyane ibikapu abana bakoresha mu mashuri ahangaho rero hari igikapu cy'igitenge cy'umutuku kidorwa n'abateri bo mu Rwanda bafata ibitenge bakagenda bakabikuramo ibikapu.

Icyiza cy'abana biga mu mashuri y'inshuke babashakira ahantu bazajya baruhukira mu gihe barimo kwiga kugira ngo babashe gufata neza ibyo bagiye kwiga, ahangaha rero hari ahantu abana bajya bakaruhuka, impande yaho kandi hateye ibiti bigiye bitandukanye.

Abana babiri biga mu ishuri ry'inshuke imbere hari akana kambaye ishati karimo guseka, inyuma hari akandi kambaye ikanzu isengeri y'icyatsi n'inkweto z'umukara gahagaze kuri kandagira ukarabe y'ibiti iriho akabido k'umuhondo arimo gukaraba intoki.

Icyumba k'ishuri ry'inshuke hashushanyijeho inzu isakaje amabati, harimo udukwavu tubiri turi mu idirishya. Imbere y'aho kandi hari abana babiri bahagaze umuhungu n'umukobwa. Umuhungu yambaye agapira k'umutuku, umukobwa yambaye ikanzu y'ubururu irimo utudomo tw'umweru afite agakwavu mu ntoki.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke mu myaka yashize wasangaga babapfunyikira kuko gahunda yo guteka ku mashuri ntago yabagaho rero hari amacupa batwaragamo igikoma harimo icupa ry'umuhondo, hari iry'ubururu bwerutse, iry'umutuku ndetse n'iry'isine. Amacupa arimo hagati yanditseho logo.

Ikigo cy'amashuri hanze y'iri shuri hubatse akantu kanditseho G.S Burega, imbere muri iki kigo hateyemo indabo, hari amashuri asakaje amabati yubakishije amatafari ahiye kandi hateye igiti kinini.

Abanyeshuri biga mu ishuri ry'inshuke babiri, umukobwa n'umuhungu, bambaye impuzankano y'ishuri, ishati y'ubururu bwerurutse n'ijipo y'umukara, bahetse ibikapu by'ibitenge mu mugongo, barimo kugenda muhanda w'ibitaka, hafi y'uyu muhanda hateye ibiti hirya no hino.

Ni byiza ko abana batoya bagenda bahabwa udukinisho tugenda tubafasha kugira ngo babashe kwisanzura, ahangaha rero mudukinisho tw'abana biga mu mashuri y'incuke hatubona hari akamoto, agapine, indobo. Ibingibi byose niibifasha abana kugira ngo bamenye ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibindi bintu bigenda bikoreshwa hirya no hino.

Mu kigo cy'ishuri harimo abanyeshuri bahagaze, umwe yambaye ishati y'ubururu undi yambaye imyenda y'umukara, imbere ye hari akandi kana gafashe igikapu mu ntoki. Ishuri rifite amabati y'ubururu, inzugi z'ubururu, n'amadirishya y'ubururu, impande yiri shuri hari ikigega cy'umukara inyuma yaryo kandi hateye ibiti.

Ni byiza ko biga mu mashuri y'inshuke bagira udukinisho tugiye dutandukanye, ndetse n'ibyo biga bakajya babyiga babibona, kugira ngo babashe kubimenya neza no kuzabyibuka. Aha ngaha rero hari imodoka ifite amapine y'umukara ,isize amarangi ya move, umutuku ,icyatsi n'ubururu.

Abana biga mu mashuri y'inshuke babigishiriza ku bishushanyo bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kumenya neza ibyo bize no kubyibuka. Aha rero hari ibishushanyo bigiye bitandukanye, hari utuntu, abantu, inyamaswa, inzu babishyiraho kugira ngo abana bajye babyiga babibona.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke bafite udukinisho tugiye dutandukanye tubafasha mu masomo yabo duhwanye n'imyaka baba bafite, ahangaha rero hari udupupe abana bakiniraho bakaza bakaduterura ndetse bakanaduheka mu gihe cyo kuruhuka, harimo n'umuntu wica ateruye agapupe mu ntoki.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke ubusanga abantu bigira hari udukinisho tugiye udutandukanye tubafashaho amasomo yabo bakaruhuka mu mutwe bitewe n'imyaka baba bafite. Ahangaha rero haragakinisho abana bakiniramo harimo umwana wicayemo wambaye ipantaro, ishati irimo amabara y'umutuku n'umukara, hirya ye kandi hari undi uhagaze wambaye umupira w'umutuku.

Inyubako isakaje amategura, yubatse mu buryo bwa mpande eshatu imbere y'inyubako hari udukinisho aho abana bajya kuruhukira, impande yaho kandi hateye ibiti binini.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ,baba basabwa gukurikiranwa cyane, bakitabwaho n'abarimu babo ,aha ngaha rero ni mu kigo cyabo ,cyubakishijwe amatafari ahiye ,imbere y'ishuri hari porotayi isizwe amarangi y'ubururu ,impande yaho kandi hari umugabo urimo kugenda wambaye umupira w'umuhondo, imbere ye hari abanyeshuri.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke ,uba usanga mu ishuri ryabo harimo udukinisho tugiye dutandukanye ,tubafasha mu masomo yabo mu gihe bari kuruhuka, ndetse no mu gihe bari kwiga. Natwo hari igihe tuba turi bukoreshwe aha ngaha rero hari igipupe cy'umutuku, gifite amenyo y'umweru, amaso y'umweru ,ndetse n'amano y'icyatsi.

Inzu nyinshi zitondetse ku murongo zisakaje amabati, imwe isakarare amabati y'umutuku, indi isakaje amabati y'ubururu, impande y'inzu hari ishyamba rinini ndetse hagati y'inzu hari ahagiye hateyemo ibiti, imbere y'izi nzu kandi hari ikibuga kinini cy'ibyatsi ndetse hari na kandagira ukarabe.

Ishuri ry'incuke harimo umunyeshuri wambaye ishati y'umweru uhagaze imbere ku kibaho hari umwarimu wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro yumukara, n'inkweto z'umukara afite indangururamajwi mu ntoki n'igishuko cy'umukara ku mutwe imbere ku kibaho hariho imibare rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi.

Ikigo cy'amashuri kiriho tapi y'icyatsi hasi, cyubakishije amategura kandi inzu yaho yubatse inuma, hagiye hari ibintu byubatse by'ibiti biriho udutako hari utw'umutuku, utw'umuhondo, tw'ubururu ndetse n'utw'icyatsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakeneye ibintu byinshi bafasha mu bumenyi bwabo aho usanga abantu bigira kenshi ibyo abigisha binagaragara bikabafasha kubyumva neza ahangaha rero hari imibare, hari rimwe, kabiri, gatatu.

Abanyeshuri babiri b'abakobwa barimo kujya ku ishuri umwe yageze mu kigo mo imbere, undi ari mu marembo y'ikigo bambaye impuzankano y'ishuri amashati y'ubururu bwerurutse n'amajipo ya kake, uri mu marembo y'ikigo ahetse igikapu mu mugongo ku marembo y'ikigo kandi, hari urugi rusize amarangi y'ubururu.

Ikigo cy'amashuri abanza gisakaje amabati y'umweru, impande y'iri shuri hari ikigega cy'umukara, inyuma y'iri shuri kandi hateye ibiti binini, harimo igiti kimwe cyagandaye, iri shuri ririho uruzitiro rw'ibyuma, impande yaho kandi hariho n'ipoto ry'amashanyarazi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, uba usanga ahantu bigira hari ibikoresho bigiye bitandukanye, ku buryo bigisha ibintu babanje no kubibereka. Aha ngaha rero harimo irati ,hakaba goma isibya ikereyo yanditse, hakaba amakereyo menshi , arimo ay'ubururu, ay'umuhondo ,ay'umutuku, ay'umukara ,n'ay'umweru, ndetse hari n'imakasi.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza usanga amashuri bigiramo atandukanye n'ay'abandi baza amashuri yabo abarimo ibintu bitandukanye bagenda bigira mu masomo, ahangaha rero hari ikintu cyanditseho rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gifite amabara y'umuhondo ubururu, umutuku.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ni byiza ko bagenda bagira ahantu hihariye ho kwigira, harimo udukinisho tugiye dutandukanye n'udukoresho dutandukanye bakoresha mu masomo yabo kugirango babashe kwiga neza. Angahe ni icyumba gishushanyijemo uturabo harimo udukinisho abana bagenda bakoresha mu gihe barimo kwiga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bicaye hamwe bambaye impuzankano y'ishuri, imbere yabo hahagaze abantu babiri bambaye amataburiya y'umweru, hari ishuri risakaje amabati ryubakishije amatafari ahiye rifite amarange y'ubururu ku nzugi, imbere y'iri shuri hateye indabo ndetse hari n'igiti.

Abanyeshuri biga mu amashuri abanza bakaba bafite ahantu bigira hari ibishushanyo, ibipupe, n'utuntu twinshi tugiye dutandukanye bifashisha mu masomo yabo. Ahangaha ni mu cyumba cyabo harimo intebe ebyiri, intebe isize amarangi y'icyatsi kibisi ndetse imbere y'izi ntebe hari ameza ateretse, muri aya meza hari akantu karimo amakereyo menshi.

Abanyeshuri biga mu amashuri abanza bajyira ibikoresho bigiye bitandukanye bibafasha mu masomo yabo, ahangaha rero turabona buwate matematikare irimo ibikoresho bitandukanye, harimo agaca ruziga, ikereyo y'umuhondo, irati ya mpandeshatu ndetse harimo n'akandi kapapuro kanditseho inyugutia a, b,c,d, y, f,g,h, i,j,q,r ,m ,n,o ,p,s,t, w,v,w, y, z.

Ikigo cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye gisakaje amabati, imbere y'iki kigo kandi hari amazu menshi yagiye yubatse hari, inzu ibakishije amabati y'ubururu ni inzu y'inuma isize amarangi y'umweru hirya yaho kandi hari indi nzu nayo isize amarangi y'umuhondo.

Ishuri risakaje amabati y'umweru, risize amarangi y'umweru n'ubururu, hejuru hari umweru, hasi hari ubururu, hari umuryango ufunguye ndetse n'madirishya afunguye imbere y'iri shuri hari moto iparitse itariho umuntu, impande yaryo kandi hateye nibiti.

Ikigo cyo mu mashuri abanza harimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri bahagaze hamwe, imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umukara afashe indangururamajwi mu ntoki na terefone mu ntoki, inyuma yabo kandi hari ishuri rifite amarangi y'ubururu n'amabati y'ubururu ryubakishije amatafari ahiye.

Icyumba kigiramo abantu biga mu mashuri abanza, abagiye arimo amafoto menshi agiye atandukanye, aha ngaha rero hari ifoto y'umuryango harimo umugabo wambaye marinette, arimo gutamika umugore we, impande ye kandi hicaye abana, umwe w'umukobwa n'umuhungu wambaye ikabutura y'ubururu abandi bicaye hasi.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu masomo harimo ama kereyo, harimo amakaramu, hari ikaramu y'ubururu, ikaramu itukura, ama kereyo harimo ay'umuhondo, umutuku n'ubururu harimo calculatrice bakoresha barimo gukora imibare, hari n'ikaye irambitseho ikaramu ndetse hari n'imakasi.

Ikigo cy'ishuri, imbere y'ikigo hari umuhanda w'ibitaka ndetse harimo n'ikibuga cya basiketiboro, hari umukino w'amaboko, aya mashuri asakaje amabati, agiye asize amarangi y'umweru, nyuma y'amashuri kandi hagiye hateye ibiti birebire.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza usanga hari ahantu bajya gukinira bitewe n'imyaka baba bafite, ahangaha rero hari ishuri ryubakishije amatafari ahiye risakaje amabati, risize amarangi y'umuhondo ku mpande, imbere yaryo kandi hari ikibuga kirimo ibikinisho abana bakiniraho.

Mu kigo cy'ishuri hari ishuri ryubatse mu buryo bw'zinzu zijyeretse aribyo bita etaje, isakaje amabati y'ubururu, inzugi zayo n'ubururu, n'amadirishya ni ubururu. Imbere yabo kandi harikandagira ukarabe y'icyatsi ikikijwe n'indabo.

Abana biga mu mashuri abanza bagira ibitabo bitandukanye bifashisha mu gusoma, aho usanga bafite amasomero menshi agiye atandukanye, harimo n'umuntu ushinzwe isomero kugira ajye afasha. ahangaha rero ni mu isomero harimo ibitabo bitondetse neza ku murongo harimo iby'ubururu, iby'umuhondo ,ndetse n'iby'umutuku.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza babigisha ibintu byinshi bitandukanye, aho tubona hari ifoto iriho umupira w'umutuku wandikishijeho amagambo y'umuhondo, impande yawo kandi hari ingofero y'umuhondo, hari n'ikote ry'ubururu rimanuyemo imirongo ku ruhande.

Ni byiza ko abantu biga mu mashuri abanza bahabwa ibikoresho by'ibanze bibafasha mu masomo yabo, aha ngaha hari buwate matematilkare ikunda kwifashishwa mu isomo ry'imibare, harimo agaca ruziga ikereyo, takereyo bakoresha babaza ikereyo, igoma isiba ibyo ikereyo yanditse, hakabamo n'irati ya mpandeshatu.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bafite ibintu byinshi bigiraho, kugira ngo babashe gufata. Aha ngaha rero hari abanyeshuri abakobwa n'abahungu, abakobwa bambaye amakanzu y'ubururu bwerurutse . Abahungu bambaye amashati y'ubururu bwerurutse n'amakabutura y'umweru ,bose bambaye amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara.

Abana bo mu mashuri abanza, baba bafite ibikoresho byinshi bigenda bibafasha mu masomo yabo, ahangaga hari ibikoresho byifashishwa cyane cyane mu isomo ry'imibare, harimo agacaruziga, ikereyo y'umuhondo, anti-kereyo y'ubururu ikoreshwa bari kubaza ikereyo, kompa ifite ikereyo irambitse ndetse n'ikereyo ya mpande eshatu.

Ikigo cy'ishuri kiri mu abanyeshuri barimo abana batatu barimo gukora, siporo imbere yabo hari umugabo umanitse amaboko yambaye isengeri y'ubururu bwerurutse hirya ye kandi hari bafure iteretseho mudasobwa. impande ye yarumanitse akaboko undi afite telefone mu ntoki arimo gufotora, impande yabo kandi iri shuri ryubakije amatafari ahiye.

Aha hari ibikoresho byinshi abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha. Turi kuhabona amakayi, hari amakereyo, harimo amabara menshi atandukanye hari amakereyo y'umuhondo, ay'umutuku, ay'umweru, ay'umukara. Impande y'amakereyo kandi hari imakasi eshatu iy'ubururu iy'umuhondo n'iy'umutuku ndetse hari na takereyo bakoresha babaza ikereyo.

Mu mashuri abanza harimo ibikoresho bitandukanye bifasha abanyeshuri mu kwiga neza, iri shuri turabonamo ibikoresho bitandukanye harimo inyuguti a, b,c,d. Hakabamo imibare rimwe, zeru, karindwi, gatanu, icyenda ,ibingibi ni bifasha abanyeshuri mu masomo yabo bikabafasha kumenya kubara neza kumenya inyuguti ndetse n'ingombajwi.

Icyumba cy'ishuri harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hagati muri iri shuri harimo intebe z'umutuku zizengurutse ku murongo hagati yazo harimo ameza, ahandi hari intebe z'ubururu na zo hagati yazo harimo ameza.

ishuri risakaza amabati y'ubururu, risize amarangi y'umuhondo, inzugi zisize amarangi y'ubururu n'amadirishya asize amarangi y'ubururu, imbere y'iri shuri hateye indabo z'umuhondo, inyuma y'iri shuri kandi hari ibiti binini.

Ikigo cy'amashuri abanza gisakaje amabati y'ubururu impande y'iki kigo ateyemo ibigori, muri ibigori hari igiti mbere y cy' kigo kandi hari umuntu uhagaze ndetse hari n'undi urimo kugenda wambaye umweru hejuru.

Ni byiza ko abana biga mu mashuri abanza bagire isomero aho bajya bagasoma, ahangaha rero ni mu isomero harimo ibitabo byinshi, iby'bururu, umutuku, umweru ndetse n'iby'icyatsi hari n'igitabo gifite ibishushanyoyo bigiye biri inyuma.

Ishuri harimo umwarimu w'umusore wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, akaboko kamwe gafashe kumeza akandi kaboko gakoze ku kibaho cyandikishijeho ingwa y'umweru, imbere ya mwarimu ku meza hariho igitabo impande kandi hari urugi rufunguye.

Abana biga mu mashuri abanza bakunda kwigishirizwa ku bishushanyo, nibwo babasha kumva ibintu biga neza. Aha ngaha turabona ibishushanyo biriho umuh' umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa, uw'umuhungu yambaye imyenda ya kake, amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara ,uw'umukobwa yambaye ikanzu y'ubururu, amasogosi y'umweru n'inkweto z'umukara, bose bafite ibitabo mu ntoki.

Ni byiza ko k'amashuri y'inshuke bakunda kwigishwa ibintu babibona kugirango abashe kubyumva neza, ndetse no kubyibuka ko tubona utudobo tw'umutuku tugiye turimo uduti twanditseho imibare hari; rimwe ,zeru, icumi, gatanu, kane, kabiri, munani, cumi nakarindwi, gatatu, cumi n'icyenda ibi byose ni ibifasha abanyeshuri kugira ngo babashe kumenya neza imibare.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza usanga abantu bigira hari ibishangiye bitandukanye bibafasha mu masomo yabo ndetse n'ibyo biga bakabyiga babyumva, ahangaha rero handitse isandi n'intashya, amashuri y'inshuke, hepfo y'aho hari intashya ndetse n'isandi biri kurebana.

Ikigo cy'amashuri abanza gisakaje amabati y'ubururu n'inzugi z'ubururu n'amati y'uburundu, cyubakishije amatafari hagati muri iki kigo harimo ibendera ry'igihugu, nyuma y'ishuri kandi hateweho igiti kinini.

Ibikoresho birimo agacaziga, ikereyo y'umukara takereyo, y'umukara bayikoresha barimo kubaza ikerereyo hari irati ya mpande eshatu hakaba n'irati ica umurongo ugororotse ndetse kandi ibikoresho byifashishwa cyanecyane mu kwiga isomo ry'imibare.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bafite ibikoresho bagenda bifasha mu masomo yabo, aho usanga babihashyira bakabibigisha kugira ngo babimenye, aho hari ibikoresho bitandukanye, hari amakereyo ari mu kantu kamwe, harimo amakereyo y'umuhondo, ay'umutuku, ay'umukara, n'ay'ubururu, hari imakasi zirambitse hasi.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza cyane cyane mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatatu usanga barimo kwiga kubara inyuguti,i ngombajwi, ndetse n'inyajwi, aha ngaha rero hari imibare rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani n'icyenda.

Icyumba cy'ishuri ryo mu mashuri abanza harimo ameza yanditseho kompiyuta rabu, kuri aya meza harimo za mudasobwa zigenda zitondetse ku murongo, ku meza y'imbere abanza hariho mudasobwa eshatu ndetse harimo n'intebe z'umukara zegamirwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza uba usanga hari ahantu hari ibikoresho bigiye bitandukanye ,kugira ngo ibintu biga babyige babibona, bibafasha no kubifata neza mu mutwe. Aha ngaha rero ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, abana bifashisha mu masomo yabo. Hari agashushanyo k'impinja gafite amabara y'umuhondo n'umutuku.

Abanaga mu mashuri y'incuke bakunda kwiga imbere yabo hari udushusho tubafasha kumenya neza ibyo biga. Aha ngaha rero hari ishusho iriho karoti n'ikigori, hari abantu batatu harimo akana kambaye ikanzu y'icyatsi n'abandi babiri bahagaze, hariho inyanya ndetse n'amagi.

Icyumba kigiramo aban bo mu mashuri abanza hari n'utuntu twinshi tugiye dutandukanye cyanecyane ibikoresho byinshi byifashishwa mu ishuri mu buzima busanzwe. Ahangaha rero hari ibikoresho byifashihswa mu ishuri harimo ikerereyo, hakaba harimo mira tia mpande eshatu hakaba harimo igikapu ndetse hakaba harimo n'andi makereyo ari mu kantu kamwe ari menshi

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bagombaga gukoreshwa byinshi byari bitandukanye, kugira bumve neza kumenya ibyo biga biri mu cyumba cy'amashuri abanza n'udushangi dutandukanye, hari utwanditseho inyuguti, hari k, hari a, hari p, ndetse na e.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza biga imibare, aho usanga biga imibare irimo ibintu byitwa seti, ahangaha rero hari igishushanyo kigaragaraho ibyo abana biga seti se na seti de hagiye harimo imibare, hari rimwe, gatatu, gatanu, karindwi, cumi na rimwe, icyenda, aha ni cumi na gatanu, cumi na karindwi, cumi na gatatu.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza babigisha gusoma kugirango abashe gutinyuka, ejo ni bamenya ko bavugira hagati y'abandi bantu. Ahangaha rero hari umunyeshuri uri imbere wambaye nifomo ishati ya karokaro ifite umukara kwikora bafite igitabo barimo gusoma, imbere yabo kandi hari umugore wicaye wambaye ikanzu y'igitenge impande hari intebe y'umutuku.

Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye barimo kugenda imbere y'ikigo, harimo abagabo n'abagore harimo uwambaye iji y'icyatsi n'umweru hari n'undifashe ijoro mu ntoki n'urupapuro inyuma yabo kandi hari inyubako isize amarangi y'umuhondo.

Abanyeshuri biga mu mumashuri yisumbuye bicaye hamwe, bambaye impuzankano y'ishuri, bamwe bambaye amashati y'umweru, amajipo kake, udupfukamunwa tw'umweru, abandi utw'umukara, harimo n'umunyeshuri wambaye ishati y'umweru, umupira w'umukara n'ijipo y'umukara.

Ikigo gikuru cy'amashuri yisumbuye cyubakishije amatafari ahiye, kuri iki kigo hashushanyijeho karangazi sec school hariho amahame yacyo ndetse na kirazira zaho.

Ishuri risakaje amabati y'ubururu risize amarangi y'umuhondo ryubakishije amatafari ahiye, rifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu imbere yaho kandi hazitiwe n'uruzitiro rusize irangi ry'umutuku impande y'iri shuri hari ikigega cy'umukara gifata amazi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri bahagaze hamwe batonze imirongo, bamwe bambaye amashati y'uburu bwerurutse, amajipo y'umukara, amakabutura y' umukara, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, abandi bambaye amashati y'umweru n'amakabutura ya kake n'amajipo ya kake.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'ishuri, amashati y'umweru, amakaruvati n'amajipo ya kake, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umukara. Muri abanyeshuri harimo bamwe bafite impapuro mu ntoki ndetse harimo n'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu.

Mu Rwanda uburezi bukomeje gutezwa imbere cyane aho usanga hari amashuri menshi afasha abanyeshuri, ahangaha ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye amajire, muri bo harimo umugabo wambaye ingofero, ufite igitabo cy'umutuku mu ntoki, imbere y'abo hari umukobwa uhagaze nawe wambaye ijire.

Mu rwanda dufite gahunda aho usanga abana benshi basigaye barya mu mashuri, ahangaha rero ni mu buriro ariho hazwi ku izina rya refegitori harimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri amashati y'umweru hasi umukara barimo kurya harimo abana bafashe amasahani y'ubururu.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye hari abantu bahagaze ku murongo bambaye impuzankano y'shuri, ishati y'uburu bwerurutse amapantaro n'amajipo bya kaki, imbere yaho hari umugore urimo kugenda wambaye ikanzu yondeba kandi hari ishuri rikikijwe n'ibitero.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye gifite inzu zisakaza amabati y'ubururu ,amatafara ahiye gisize amarangi y'ubururu, n'amadirishya asize amarangi y'ubururu ,imbere muri iki kigo hari ubusitani buteyemo pasiparume ,harimo n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda .Inyuma y'iki kigo kandi hateye igiti kinini.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye mu ishuri bambaye impuzankano yishuri, amashati y'umweru bose bafite amakaramu barimo kwandika, imbere hari umukobwa ufite ikaramu ifite igifuniko cy'ubururu arimo kwandika, impande ye kandi hari n'undi wambaye ishati y'umweru n'umupira w'icyatsi.

Ibigo bya segondere bikomeje kwiyongera kuko usanga umunsi ku munsi bahora bubaka amashuri, ahangaha rero ni mu ishuri harimo abanyeshuri bicaye mu ntebe zasheze hari uwicaye inyuma wambaye ishati y'umweru impande ye hari undi wambaye agashati k'umweru karimo utudomo tw'umukara, hari undi muntu uhagaze hejuru wambaye umukara ahagaze ahantu hari ibitabo byinshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye b'abakobwa, bambaye amashati y'umweru n'amajipo y'icyatsi, imapande yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara n'agapira k'umweru mu ntoki, afashe icyapa mu ntoki, inyuma yabo kandi hari ishuri, hari n'undi munyeshuri na we uhagaze.

ikigo cy'ishuri gisakaje amabati cyubakishije amatafari ahiye gitezeho amarangi y'umuhondo, inzugi n'amadirishya bisize amarangi y'ubururu, impande yaho kandi hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi ndetse hateye n'ibiti binini hari uruti rumwe rubyibushye rurimo gusumba ishuri.

Abanyeshuri biga mumashuri yisumbuye bicaye hamwe mwi ishuri barimo kwifotoza, bambaye impuzankano y'ishuri, amashati y'umweru hasi bambaye kacye, imbere abakobwa babiri bicaye umwe yambaye amataratara, inyuma ye kandi hari ameza hariho ikayi n'ikaramu y'umutuku.

Mu Rwanda uburezi bwateye imbere ,aho usanga hari ibigo byinshi ,abanyeshuri bigiramo ,aha ngaha rero ni mu kigo kijyiramo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, hari abantu bambaye amaji .Harimo uwambaye ingofero y'umuhondo ,imbere ye hari umukobwa wambaye ijile, afite ibisuko by'umukara ku mutwe.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bamwe bafite amakaramu bari kwandika imbere yabo hari mudasobwa, bambaye impuzankano y'ishuri imbere yabo kandi hari umwarimu uhagaze wambaye itauriya y'umweru, yambaye agapfukamunwa arimo gutunga urutoki ku kibaho cy'umukara cyandikishijeho ingwa.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye hari umunyeshuri wambaye agapfukamunwa k'umukara, umupira w'umuhondo, ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo yambaye isaha ku kuboko afite n'akandi gakapu mu ntoki, imbere ye hari ameza ariho igitambaro cy'icyatsi hariho umuntu uhagaze wambaye agapfukamunwa arimo gupima umuriro.

Ibigo by'amashuri yisumbuye yibanda ku bumenyi cyane cyane kuko nibwo ubasha gusobanukirwa neza ibintu bityo rero akaba ari byiza mu mashuri yisumbuye bitaweho neza kugira babashe kongera ubumenyi bwabo aha ngaha rero hari umunyeshuri wambaye ishati y'umweru n'ijipo ya kaki.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye impuzankano y'ishuri, bamwe yambaye amashati y'umweru, abandi bambaye imipira y'umuhondo, imbere yabo kandi hari amakaye abanyeshuri babiri bicaye inyuma, imbere yabo hari amakaye, hari n'iaye ya rojitiri y'ubururu, imbere ku kibaho hari umwarimu yambaye itaburiya y'umweru, ibisuko by'umukara mu mutwe, ari kwandika ku kibaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye uba usanga ahanini bajyira amakayi menshi kurenza abandi, ahanga rero hari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye biga'imyuga bambaye nkajere mweme ingofero y'umuhondo n'ingofero y'umwerude hari inyubako yanditseho na salilatrine prokepande aho hari ikigega cy'umukara.

Abanyeshuri bo mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'ishuri, bicaye mu ntebe za pipitile, bamwe bambaye imipira y'umuhondo, abandi bambaye amashati y'umweru, inyuma hari uwicaye wambaye agapfukamunwa, ahantu bicaye kandi hagiye hateyemo ibiti bifite amatabi manini.

Abanyeshuri biga mu amashuri yisumbuye barimo gukora isuzuma, bambaye impuzankano y'ishuri, hagati muri bo harimo umugore uhagaze wambaye imyenda y'ibitenge, yambaye agapfukamunwa n'amataratara, impande kandi hari umugabo wambaye agapfukamunwa, ipantaro y'umukara.

Ikigo cy'ishuri gisakaje amabati y'umweru, cyubakishije amatafari ahiye, inzugi n'amadirishya zifite ibirahure. Imbere y'ikigo hari ubusitani bwiza buteyewe indabo n'umucaca. Hari indabo zarabye umutuku ndetse hari n'ikindi giti kimwe kirimo kinini cyane.

Abanyeshuri ba mu mumashuri yisumbuye, bambaye impuzankano yishuri, bicaye mu ihema, bambaye imipira y'icyatsi, amapantaro y'umukara, impande yabo kandi hari abandi bantu batari abanyeshuri bambaye imyenda isanzwe, ihema ryabo ririho amarangi y'umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahagaze mu kibuga cya basiketiboro aribyo bita umukino w'amaboko bambaye impuzankano y'ishuri bamwe bambaye umupira w'umuhondo amapantaro y'umukara abandi imipira y'icyatsi n'amapantaro y'umukara inyuma y'iki kibuga kandi hateye ibiti.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye hamwe bambaye impunzankano y'ishuri. Amashati y'umweru, amajipo n'ipantaro bya kake. Imbere yabo hari umuntu uhagaze wambaye ijire, agapira k'umuhondo afashe agatambaro k'umutuku mu ntoki. Inyuma ye hari abandi babiri bahagaze umugabo n'umugore hagati muri bo kandi hateyemo ibiti.

Abanyeshuri mu mashuri yisumbuye batangiye kumenya ubwenge cyane, aho biga ibintu bisaba umutima bazi n'icyo bizabamarira, hari ishuri risakaje amabati, ryubakishije amatafari ahiye, risize amarangi y'umuhondo, imbere y'ishuri hateye ibiti.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'ishuri, imipira y'umutuku, amashati y'umweru, n'amajipo' y'umukara, bamwe bari imbere barapfukamye, abandi barahagaze, inyuma yabo hari ishuri risakaje amabati, imbere yabo kandi hari indabo z'umuhondo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahagaze imbere y'ishuri, iri shuri risakaje amabati imbere yaryo hari ishyamba hari n'igiti kinini kibyibushye kandi cyumye gifite n'amashami, imbere yaho hahagazeho umugabo wambaye ingofero y'umukara, uwundi yambaye ingofero y'umweru.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, cyubatse mu buryo bw'inzu zigeretse, gisize amarangi y'umuhondo, inzugi zazo ni ubururu ndetse hari n'uruzitiro rw'ubururu, imbere y'iri shuri hari indobo y'icyatsi, hafi yaryo kandi hateye n'igiti.

Ikigo cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye, gisize amarangi y'umuhondo, harimo urugi rusize amabara y'ubururu, imbere yaho kandi hari umuntu uhagaze, impande y'iki kigo hari ikigega cy'umukara gifata amazi, hafi yacyo kandi hateye n'ibiti.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, baba bafite uburyo bwinshi bakoresha biga cyangwa se ubumenyi bumwe na bumwe butuma bongera ubumenyi bwabo, ahangaha rero hari abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, bamwe bambaye amashati y'umweru, abandi bambaye imipira y'imihondo, hagati muri bo hagiye hateyemo ibiti.

Abanyeshuri biga mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'ishuri, amashati y'umweru karuvati, amajipo y'umukara n'amapantaro y'umukara, hagati yabo harimo umugabo uhagaze afashe indangururamajwi mu ntoki, yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, harimo n'undi wambaye ishati ya karokaro afashe urupapuro mu ntoki.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'ishuri, bamwe bambaye amashati y'umweru, amajipo ya kake n'amapantaro ya kake, abandi bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro ya kake, abandi bambaye amashati y'ubururu bwerurutse n'amapantaro ya kake, imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umukara, amarinete, afite indangururamajwi mu ntoki n'urupapuro.

Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye bicaye hamwe, abandi barahagaze bambaye impuzankano y'ishuri. Umweru hejuru, kacye hasi , imbere yabo hari umugore uhagaze wambaye umupira w'ubururu. inyuma yabo kandi hari ishuri ryubakishije amatafari ahiye, amabati y'ubururu, n'amadirishya y'ubururu, handitseho kigali tudeyi.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bagiye ku ishuri mbere y'uko binjira mu kigo, haba hari abayobozi bakabasaka, aha ngaha hari abanyeshuri bambaye impumunkano y'ishuri, hari uri inyuma wambaye umupira w'umuhondo, akenyeye n'undi mupira w'umuhondo, yambaye inkweto z'umukara, imbere ye kandi hari undi wambaye umupira w'umuhondo, ahetse igikapu mu mugongo ndetse hari n'undi wambaye ishati y'umweru, ipantaro ya kake, imbere ye hari umugabo ubyibushye wicaye imbere y'ameza.

Ikigo cy'ishuri gifite porotaye ifite inzugi za metalike, imbere yaho hari umunyeshuri w'umukobwa wambaye ishati y'umweru, ijipo ya kacye, amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara, agapfukamunwa k'umutuku, hari umusekirite wambaye imyenda y'akazi n'agapfukamunwa, arimo kumupima ubushyuhe. Hafi yabo kandi hari umuntu urimo kugenda mu muhanda utwaye moto.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri bicaye ahantu hamwe, hasi yabo hari umuntu uhagaze wambaye ijire y'umukara, impande yabo kandi hari amashuri asakaje amabati y'ubururu, imbere y'amashuri hateye ibiti birebire cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bose bari mu ishuri, bambaye amajire, hari uwambaye ijire irimo icyatsi n'umweru, hari uwambaye ijire y'umuhondo n'umweru, harimo abagabo ndetse harimo n'umugore, imbere yabo kandi hateretse ibintu biri mu mabara y'umweru.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye usanga bafite ahantu ho gusomera kuko akenshi gusoma bibafasha kugirango bongere ubumenyi bwabo, ahangaha rero ni mu isomero birimo ibitabo bitodetse ku murongo harimo ibitabo by'umutuku, harimo iby'ubururu harimo iby'uumweru ndetse n'iby'icyatsi.

Abanyeshuri bicaye ahantu hamwe, ku ntebe hanze hari abantu babiri bahagaze, imbere y'aho kandi hateye uruti runini rugandaye, hari amashuri asakaje amabati yubakishije amatafari ahiye, impande y'aho bicaye kandi hateye indabo.

Ikigo cy'ishuri imbere y'iki kigo hari icyapa kigaragaza aho icyo kigo kiri cyanditseho kagitumba hayi sikuru, hariho ibirometero ugenda kugira uhagere ni ibirometero bitatu n'ibice bine, ndetse inyuma y'ikigo kandi biri kugaragara ko hateyemo ibiti.

Abanyeshuri bo mumashuri yisumbuye bambaye impuzankano yishuri, bamwembaye imipira y'umutuku imbere abanyeshuri babiri umukobwa n'umuhungu bambaye amashati y'umweru ijipo yakake n'ipantaro ya kake bambaye karuvati za kake, impande yabo hari undi mugabo uhagaze wambaye ishati y'umukara.

Abanyeshuri b'amashuri yisumbuye bari mu ishuri, umwe yambaye ijile y'umuhondo n'umweru, undi yambaye ijile y'icyatsi n'umweru, imbere yabo hari undi uhagaze utambaye ijile ufite ikayi mu ntoki, hari n'undi wambaye ijile y'icyatsi n'ingofero mu mutwe, impande ye hari ikintu cy'umuhondo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bose bicaye hasi bambaye amashati y'umweru, amajipo y'umukara, inyuma yabo hari ishuri, hari abanyeshuri bahagaze imbere y'iryo shuri, hateye igiti kinini ndetse harimo n'umuntu uhagaze wambaye imyenda y'umukara, inyuma y'iri shuri kandi hateye ibiti.

Abantu bane barimo abagore babiri n'abagabo babiri harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara afite igitabo mu ntoki cy'umutuku imbere yabo hasize amarangi y'umuhondo n'ubururu harimo nundi mugore wambaye ijire y'cyatsi n'umweru nundi wambaye ijire y'ubururu n'umweru inyuma yaho hateye ijyiti.

Mu Rwanda amashuri y'imyuga akomeje gutezwa imbere. Aho usanga abana benshi biga imyuganga. Aha ngaha rero hari abantu b'abagabo ndetse harimo n'umukobwa bambaye amajire y'icyatsi arimo umweru. Muri bo hari uwambaye ingofero y'umuhondo afite urupapuro mu ntoki akaboko yagashyize inyuma. Hari n'undi ufite igitabo cy'umukara mu ntoki.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye nabo babigisha mudasobwa kugirango babashe kuzayikoresha nibagera hanze y'amashuri, ahangaha reri hari abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye amashati y'umweru, agapfukawa k'umukara, undi yambaye ak'umutuku, imbere yabo hari mudasobwa barimo kuyikandama inyuma yabo kandi undi munyeshuri wicaye nawe imbere ye hari mudasobwa.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye bicaye ku ntebe za pipitire, bambaye impuzankano w'ishuri, bamwe bambaye amashati y'umweru, hasi bambaye kacye, abandi bambaye imipira y'ubururu, abandi bambaye imipira y'umuhondo, imbere yabo hari umuhungu uhagaze wambaye ishati y'umweru, karuvati n'ipantaro ya kake, afite indangururamajwi mu ntoki.

Ikigo cy'amashuri y'isumbuye harimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri imipira y'umutuku, hasi umukara. Imbere yabo hari abandi bantu barimo abagore n'abagabo bamwe bafite telefone mu ntoki. Harimo umugabo wicaye imbere wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara. Hari n'undi uhagaze wambaye amataratara afite urupapuro mu ntoki, yambaye ishati y'umukara ndetse afite n'indangururamajwi mu ntoki.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye hari abanyeshuri bari mucyumba bambaye impuzankano y'ishuri, amashati y'mweru hejuru amajipo n'amapantaro bya kake, mu banyeshuri harimo n'abambaye imipira y'umukara imbere yabo kandi hari abantu bicaye barimo abagabo n'umugore, muri aba bagabo harimo abazungu babiri ndetse n'abirabura babiri mu birarabura harimo uwambaye isaaha ku kuboko.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza ahantu bigira hatandukanye naho abandi bigira, aho usanga bicara bafite n'ameza imbere yabo yo kwandikiraho, ahangaha rero ni icyumba kirimo intebe y'ubururu ifite akantu k'imbere wakandikiraho handitseho e unara ndetse impane yaho hari indobo y'umutuku.

Abanyeshuri biga muri kaminuza biga bitandukanye n'abandi, usanga aho bigira bari heza ndetse n'amashuri yabo abadafite intebe zimeze nk'izahandi, ahangaha rero hari icyapa gishushanyijeho abantu benshi ndetse harimo n'uwambaye besiteri yonyine.

Amashuri ya kaminuza atandukanye n'amashuri asanzwe, aho usanga mu mashuri ya kaminuza habamo intebe nziza zigira n'ameza yazo, ndetse nibibaho bakoresha nabyo ntago ari nk'ibyo mu mashuri asanzwe, bakunda kujyira ibibaho by'umweru nkangaha hari icyibaho cyumweru cyanikishijeho n'amabara y'icyatsi aho usanga bakoresha marikeri badakoresha amacake.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bicaye mu ishuri, barimo umukobwa wambaye ishati y'umutuku irimo amabara y'umukara afite ibisuko by'umukara ku mutwe impande ye hari ikaramu n'ikayi, arimo kwandika arambitse na terefone impande ye umuhungu wambaye umupira w'umutuku umwereka terefone ndetse hari n'abandi bari kureba muri mudasobwa.

Amashuri yo muri kaminuza menshi ubusangajya yubakishije inzugi zikomeye zifite n'ibirahuri, ahanga rero hari ishuri nyuma y'iri shuri hateye ibiti ndetse' iri shuri hejuru ku rugi handitseho c,a,h,o, ndetse n'umubare rimwe.

Abanyeshuri basoje kaminuza, bakoze ibirori aribyo byitwa garadiwesheni, bambaye amakanzu y'umukara, bafashe n'ingofero mu ntoki muri bo uhagaze imbere afashe telefoni mu ntoki, uwubundi ateza amaboko na we afashe telefone.

Umuntu urimo kugenda wambaye agapira karimo utorongo, afashe igikapu mu ntoki, inyuma ye kandi hari undi wambaye ishati irimo uturongo, ipantaro ya kake na we arimo kumanuka, inyuma yabo na ho hari umukobwa wambaye ikanzu, impande y'izo sikariye bari kumanuka kandi hubakishije utuntu tw'ibyuma.

Abanyeshuri biga muri kaminuza uba usanga bigira ahantu heza ugereranyije n'ahandi, kuko uba usanga harimo n'abantu bakuru cyane. Ahangaha rero ni icyumba giteguye neza kirambuyemo igitambaro cy'ubururu hateretse indabo zimeze neza ndetse n'ibipapuro bagiye bazinga bakegeka ahantu.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bicaye mu ishuri bari kwiga. Imbere yabo hari umugore uhagaze wambaye ikanzu y'isengeri, akaboko kamwe yakarambitse ku meza, ameza ateretseho amazi. Muri iri shuri harimo umuhungu wicaye inyuma imbere ye hari mudasobwa afashe ikaramu mu ntoki yifashe mu mutwe.

Icyumba kirimo abantu bicaye harimo abakobwa, abagore n'abagabo, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ishati y'umutuku, ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze, harimo abantu bicaye imbere yabo hateretse icupa ry'amazi na mudasobwa bose kandi bambuye udupfukamunwa.

Mu mashuri ya kaminuza uba usanga hatandukanye n'andi mashuri, aho usanga inyubako zaho ziba ari nziza cyane kurenza ahandi ndetse n'intebe bicaramo, ahangaha rero hari intebe abanyeshuri bicaramo, aho usanga intebe ziba zifite n'ameza, ahangaha rero hari intebe z'ubururu imbere zifiteho akantu ka baterekaho nk'amakayi ndetse no mu ishuri harimo na purize wacomekaho.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bamwe bafite amakaye imbere yabo hari abafite amacupa y'amazi bicaye ku dutebe twi'icyatsi, imbere yabo hari n'ameza, imbere yabo bose hashushanyije amabara yu'ubururu, umuhondo, nicyatsi.

Abantu bicaye hamwe mu ishuri, imbere yabo hari umukobwa uhagaze wambaye imyenda y'umukara ndetse impande ye hari undi na we uhagaze, hari abandi bicaye imbere yabo hateretse ameza, hari abo bafite mudasobwa ndetse n'abafite amacupa y'amazi.

Abanyeshuri benshi bari mu ishuri imbere harimo umukobwa ufite ibisuko by'umuhondo yambaye amataratara mu mutwe afite ikaramu arimo kwandika, impande ye kandi hari undi ufite ibisuko by'umukara nawe arimo kwandika harimo n'undi mugabo wambaye agapira k'umukara.

Mu bigo bya kaminuza ubu usanga ahantu hagiye handitse ibintu biharanga kugirango ubashe kumenya neza aho ujya kuko bikunda kuba ari binini. aha ngaha rero hari idirishya ry'ibirahure ,rifite amarangi y'icyatsi hejuru yaryo hari icyapa cyanditseho department of business administration.

Ishuri rya Kaminuza rifite inzugi zisize amarangi y'icyatsi muri ishuri kandi mo imbere harimo indobo y'ubururu hanze yaryo kandi hari intebe y'ubururu, hanze y'ishuri hari umuntu uri kugenda wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'icyatsi.

Mu mashuri ya kaminuza haba ibintu byinshi bigiye bitandukanye ,hari abiga iby'ubuganga, hari abiga iby'ubwarimu ,hari abiga ikoranabuhanga , aha ngaha rero hari imifuka igiye irambitseho amabumba, ndetse hari n'ihema rifite amabara y'ubururu yanditse amagambo y'umweru.

Ishuri rya kaminuza rifite inzugi zisize amarangi y'ubururu ndetse na serire, mo imbere muri iri shuri harimo akabati k'igiti impande y'iri shuri kandi hari abantu babiri bahagaze, umwe yambaye ishati y'ubururu bwerurutse, imbere y'iri shuri kandi hateye indabo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza basoje amasomo yabo, bambaye amakanzu y'umukara n'ingofero z'umukara buri wese yamanitse amaboko bishimye, imbere hari umukobwa wambariyemo ikanzu y'umutuku, imbere ye kandi hari undi wambariyemo ikanzu y'icyatsi.

Amashuri ya kaminuza menshi, uba usanga afite inyubako zo mu bwoko bugeretse, aho usanga nk'aha ngaha hari inzu yubatse ariko yubatse mu buryo bw'inzu zigeretse isize amarange y'umuhondo, hejuru hari abanyeshuri bahagaze bamwe barimo kurebera mu madirishya.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza, biga bakoresheje mudasobwa cyane. Aha ngaha rero ni mu kigo cy'ishuri rya kaminuza, hari inyubako isize amarangi y'umuhondo, imbere yayo hari pubeli ifite ibara ry'icyatsi , hari jaride nziza irimo indabo z'umuhondo, hari n'igiti.

Abanyeshuri biga mu ishuri rya kaminuza bicaye mwishuri, imbere harimo umukobwa wambaye isengeri y'igitenge, hari n'umugabo wambaye ishati y'umukara, inyuma yabo kandi hari abambaye amashati y'umweru, hagati muri bo harimo uwambaye agapira karimo amabara y'umutuku n'umweru n'umukara.

Abanyeshuri biga muri kaminuza babona ko bishimye bambaye amakanzu y'umukara bafite n'ingofero z'umukara bakoze garaduwesheni aribyo bita kurangiza amashuri yabo impande yabo hari itente cyangwa se ihema ry'umweru nyuma y'iri hema hari ibiti.

Ishuri rya kaminuza ryubatse mu buryo bw'inzu zigeretse, hari umuhungu wambaye imyenda y'umukara, umupira w'umukara, inkweto z'umukara n'igikapu cy'umukara mu ntoki, afite na telefone mu ntoki, bigaragara yarangariye muri telefone.

Abanyeshuri bari mu ishuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu, hari umunyeshuri uhagaze wambaye agapira k'umweru, ingofero mu mutwe afite ikaramu mu ntoki impande kandi hari nu' ndi uhagaze urimo gufata telefone imbere yabo hose hagiye harira amakayi muri iri shuri kandi harimo udutebe tw'icyatsi.

Abanyeshuri barimo abakobwa, abahungu ndetse n'abagabo. Hari umugabo urimo kugenda afite ibitabo mu ntoki kandi hari abantu bahagaze mu idirishya ndetse n'abasore babiri bahagaze mu muryango w'urugi.

Abanyeshuri biga muri kaminuza uba usanga batandukanye n'abandi banyeshuri, aho biga bigenga nta kintu babagenga, aha ngaha rero ni igikapu cyanditseho Rwanda, gishushanyijeho umugore, ufashe akana mu ntoki yakambitse ibintu by'umuhondo.

Ishuri rya kaminuza icyumba kirimo intebe zisize amarangi y'ubururu, izo intebe zitondetse ku murongo zanditseho e akadomo a, akadumo o, akadomo r.

Abanyeshuri bari muri kaminuza iyo barangije kwiga baba bishimye cyane. Aha ngaha rero hari abanyeshuri barangije kwiga bakoze ibyo bita garaduwesheni. Bambaye amakanzu y'umukara n'amagofero y'umukara bose barimo guseka. Imbere kandi hari n'abicaye hasi, hari n'umukobwa usutamye wambaye amataratara.

Ishuri rya kaminuza harimo abanyeshuri barimo kugenda mu inzira, umwe yambaye ikanzu y'amabara y'umutuku, undi yambaye ipantaro arimo kugenda, impande kandi hari ubusitani bwiza biteyemo indabo, harimo n'ibiti hafi yabo kandi hari inyubako isize amarangi y'umweru.